Imiti yica udukoko ni myiza, ntabwo ihenda, kuko igira akamaro kanini cyane, ituma ibihingwa byahinzwe byera neza.

Muri butike ahantu bacururiza imiti yica udusimba, hagomba kwitabwaho cyane, kuko iyo miti igirira abaturage akamaro kenshi.

Inzu bacururizamo imiti yica udukoko igomba gucungwa neza, kugira ngo imiti idapfiramo ikangiriza ubutaka.

Ahantu bategurira ibyo kurya haba ari heza cyane. Iyo bahateguriye ibiryo byiza ubona ari byiza cyane.

Umugati uteguye neza uraryoha. Iyo uri kuwurya wicaye ahantu heza cyane hatuje uri wenyine, wumva uguwe neza.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane, butanga umusaruro iyo amaze gukura. Abantu benshi barayakunda araryoha cyane, kandi atanga n'umusaruro w'amafaranga.

Mu isoko ahantu bacururiza amafi, uhasanga amafi y'ubwoko bwose kandi araryoha cyane, ntabwo bayahendaho kuko baba bashaka amafaranga.

Mu isoko ahantu bacururiza ibintu byo mu mazi haba hariho ibintu byinshi cyane bitandukanye amafi yumye, injanga zumye ibyo byose ni byiza cyane biraryoha.

Ibikorwa nyaburanga ni byiza cyane bigizwe n'imisozi miremire ndetse n'imigufi, ifite amashyamba, bifite ibibaya birimo ibyuzi by'amafi agirira abaturage akamaro.

Ahantu hariho icyuzi cy'amafi ndahakunda cyane haba ari heza, cyane cyane iyo giteganye n'agasozi kariho ibyatsi bitoshye by'icyatsi kibisi.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane. Iyo bari kuyaroba bakoresha ibikoresho byabugenewe. Avamo umusaruro ushimishije agira intungamubiri nyinshi.

Mucyayi cyayi ni ikirungo bakoresha bari guteka icyayi, gihumura neza. Abantu baragikunda kiba kiryoshye.

Mu ishyamba habamo ibyatsi by'ubwoko bwinshi. Habamo ibyatsi bivamo imiti. Bakunda kubyahira bari kubikoresha mu buryo bwo kwivura.

Ikigori ni igihingwa cyiza cyane kiraryoha, abantu benshi baragikunda, iyo gikorewe neza gitanga umusaruro ushimishije mu muryango.

Uruyuzi ni imboga nziza cyane. Barya amababi yazo, barya n'ibihaza byazo. Inzuzi z'ibihaza ziba nziza cyane, zibamo n'umuti.

Igiti cy'inturusu ni igiti cyiza cyane bagisaturamo inkwi, bagikuramo imihini yo kukwikiza amasuka, bagicanamo amakara, mbese gifitiye abaturage umumaro mwinshi cyane.

Umurima mwiza cyane, iyo bashaka kuwuhingamo imbuto, babanza kuwutegura neza, kugira ngo imyaka izamere neza cyane.

Uruyuzi ni urubuto rwiza cyane, igihaza cyarwo kiraryoha bararurya, inzuzi zarwo iyo zivuyemo nazo barazanika, bakazikora bakazikoramo ifu bakazirya.

Ibyatsi by'ishyamba bigira indabyo nziza. Abanyarwanda bakunda kubyahira, babikuramo imiti yo gukoresha.

Urugo rwa kinyarwanda, ruriho ibihingwa bitandukanye, nk'ibidodoki, ibirayi, insina z'ubwoko bwose, ruba ari rwiza cyane, kubera ibyo bihingwa bihari.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane, ahantu bahinga ibigori, iyo bamaze kubisarura bahingamo n'amashaza. Ayo mashaza araryoha, kandi nayo akavamo umusaruro mwinshi cyane.

Urugo rwa kinyarwanda rufite ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye. Ikidodoki kigira imboga ziryoshye cyane, insina zigira igitoki kiryoshye cyane, intama igira umusaruro mwinshi cyane w'ifumbire.

Abanyarwanda benshi bakunda guhinga amasaka, kuko amasaka n'iyo bamaze kuyasarura, ibikenyeri byayo barabizitiza.

Mu ishyamba habamo ibyatsi byinshi cyane bitandukanye, iby'imbuto ziribwa ,ndetse abakora ubuvuzi gakondo babyifashisha mu gushakamo imiti yo kuvurisha abarwayi.

Ubuhinzi bw'imbuto zitwa gaperi, ziba nziza cyane ziraryoha kandi zigira umusaru, abantu benshi bakunda kuzirya, kuko ari nziza cyane mu mubiri.

Mu ishyamba, habamo ibiti byinshi bitandukanye, ibiti bihagaze ari birebire cyane, n'ibindi bigenda biri kurandaranda cyane, harimo n'iby'imishubi, n'imifatangwe.

Mu muco wa kinyarwanda abantu benshi bakunda gukoresha imiti y'ibyatsi. Igikakarubamba ni igiti cyiza cyane. Kibamo umuti mwiza cyane, ugirira abaturage akamaro kanini cyane.

Umugano ni igiti cyiza cyane, gikorwagamo ibintu byinshi cyane, mu muco nyarwanda bakoragamo inkoko, intara, ibitebo, ibisobane, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu ishyamba habamo ibiti byinshi bitandukanye, habamo nk'igiti kitwa cyitwaga umushipuli, inyoni zikunda kuki kugihagararamo no ku cyarikamo, abaturage baragikunda, kuko kigiraga imbaho nziza.

Imbuto zitwa imyembe ndazikunda cyane cyane zigira akamaro kenshi ku bazihinga ndetse no ku bantu bazirya ziba nziza cyane.

Imbuto ni nziza cyane, bazirya ari mbisi, zigirira imibiri yacu akamaro kanini cyane, zitanga umusaruro iyo zeze.

Abaturage benshi bakunda guhinga ubuhinzi bw'ibirayi, ndabakundaga. Bakunda kuba bishimye, iyo bageze mu mirima, bishimiye umusaruro w'ibirayi byabo.

Abaturage bakunda korora amatungo atandukanye, hari abakunda korora ingurube, kuko zororoka vuba kandi zitanga umusaruro ushimishije.

Imbuto ni nziza cyane. Zigirira imibiri yacu akamaro iyo tuziriye. Zitanga umusaruro ushimishije iyo zakorewe neza. Abantu benshi bakunda imbuto.

Imbuto za voka ndazikunda cyane, zitanga umusaruro ushimishije cyane, zigirira imibiri yacu akamaro kanini cyane.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane gitanga umusaruro iyo gikorewe neza cyane, kandi kikagandura urugo inyanya ziraryoha cyane.

Mu isoko aho bacururiza imbuto, iyo uhageze uhasanga imbuto z'amoko menshi. Inanasi ziraryoha pe! Imineke ya kamara iba nziza cyane, ibinyomoro ni byiza, kubera ko byongera amaraso mu mubiri.

Amapera ni urubuto rwiza cyane ruraryoha. Baruhinga ahantu henshi hatandukanye. Abana bararukunda cyane ndetse n'abakuru na bo bararukunda.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, abantu benshi baragikunda, kigira imiteja iryoshye kandi iyo cyeze imbuto zabyo zirahenda cyane.

Imirima bahingamo icyayi, ni imirima myiza cyane ,umuntu uri gusoroma icyayi aba anezerewe ,kubera ko agiye kubona umusaruro ushimishije. Icyayi kiraryoha cyane.

Mu muco wa kinyarwanda biba byiza gukorera hamwe bituma babona umusaruro ugaragara bigatuma bihaza mu biribwa bakabona nibyo basagurira amasoko bakabona amafaranga menshi cyane yo gushira muri banke.

Ku isoko ry'ibiribwa habamo imbuto z'amoko menshi atandukanye, habamo indimu, imyembe, kokombure, marakuja, zigirira abantu akamaro mu buzima bwabo ziraryoha.

Umurima mwiza cyane wafumbiwe neza ugira imyaka myiza, abantu bose bayirebye bakumva banezerewe, barayifuza cyane.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane abantu benshi baragikunda, kiraryoha kandi iyo keze neza gitanga umusaruro ushimishije.

Imbuto za pome ni imbuto nziza cyane. Ziraryoha cyane. Zigira akamaro kenshi mu mubiri. Kuzigurisha baguha amafaranga menshi atubutse, ugakemura ibibazo byawe neza.

Igishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, abaturage benshi baragikunda, kubera ko kiraryoha cyane kandi kigira umusaruro ushimishije.

Abaturage benshi cyane cyane, bakunda kuba bishimye cyane bari guseka, iyo basuwe n'inzego z'ubuyobozi, harimo n'inzego z'umutekano.

Igisheke ni igihingwa cyiza cyane, kiraryoha kigirira abaturage akamaro. Abagihinga bakibonamo amafaranga menshi cyane, abandi bakirya bari kugihekenya ,kiraryoherera cyane.

Ubuhinzi bw'ibirayi buba bwiza cyane. Kuko iyo bukorewe neza bukera, butangaga umusaruro ushimishije cyane.

Ibirayi bibamo amoko menshi atandukanye. Abaturage barabikunda iyo babifumbiye, neza bivamo umusaruro mwinshi.

Igiti cy'avoka cyera imbuto nyinshi cyane, iyo ari nziza gitanga umusaruro ushimishije, urugo rukunguka ibintu byinshi cyane.

Imbuto y'ibigori ni nziza cyane, ibigori biraribwa babitetse babiryamo umutsima, babitekamo igikoma ibigori bifite umumaro mwinshi cyane.

Umuhinzi uri mu murima yahinzemo imbuto, iyo agezemo arishima cyane, bikaba bigaragara neza cyane cyane bituma nawe yifotorezamo, kubera ko biba bimunejeje cyane.

Mu isoko habamo imbuto zitandukanye: habamo imineke, habamo amapapari ,habamo wotameloni ,habamo imbuto z'ubwoko bwinshi zifitiye ubuzima bw'abantu akamaro.

Imyembe ni imbuto nziza cyane. Abantu benshi barayikunda, iraryoha cyane, imyembe bayikoraramo, imyembe yera ahantu henshi hatandukanye hashyuha, imyembe iraryoga cyane.

Imboga z'amashu n'imboga nziza cyane abantu benshi barazikunda. Hirya no hino kubera ko ziraryohaga n'amatungo arazikunda araziryohera cyane.

Ubuhinzi bw' ibigori bwiza cyane bwa kijyambere iyo babwitayeho, bakabukorera neza butanga umusaruro uhagije.

Umuhinzi iyo yahinze neza igihingwa cye, iyo agiye gutambagira agasanga byeze neza cyane, ataha anezerewe cyane cyane kandi yishimye.

Amashu ari mu bwoko bw'imboga abaturage barayakunda cyane agira umusaruro ushimishije iyo uyitayeho ukayakorera neza.

Amatunda ni imbuto nziza cyane zera ahantu henshi hatandukanye, amatunda kandi araryoha cyane, amatunda bayakoramo n'umutobe.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane, abantu benshi bakunda guhinga inyanya, zitanga umusaruro iyo zikorewe neza abantu bagakira cyane.

Imbuto zitwa indimu. Abantu benshi barazikunda cyane kuko bazikoresha mu bintu byinshi bitandukanye kugira ngo bigende neza. Ntabwo ibintu birimo indimu bikunda gupfa vuba.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane abantu benshi baragikunda, gikunda guhingwa mu duce tw'Amajyaruguru n'utw'Iburengerazuba.

Abantu benshi bakora ubuhinzi bw'inanasi usanga banezerewe, kuko iyo zeze neza zitanga umusaruro ushimishije.

Igitoki ni ikiribwa cyiza cyane, ndagikunda kuko kiraryoha. Kukigurisha, kibona abakiriya benshi kuko abantu benshi baragikunda.

Imbuto z'ibireti, ziba nziza cyane, zigira indabo nziza, kuzikorera bitanga umusaruro, kubera ko zigiraga akamaro kenshi cyane.

Abantu bagiye guhinga bafite amasuka meza cyane, akwikiye neza, batahana umubyizi ugaragara maze bagataha bishimiye umubyizi bacyuye.

Ibijumba byera ku migozi igenda irandaranda hasi, biraryoha abantu benshi, barabikunda kubirisha imboga z'amashu.

Mu muco wa kinyarwanda abaturage benshi cyane, bakunda guhinga urutoki, kuko iyo byeze cyane bakunda kubona umusaruro ushimishije.

Wotameloni ni imbuto nziza cyane. Ziraryoha abantu benshi barazikunda kuko zigirira imibiri akamaro.

Igitunguru ni igihingwa cyiza cyane. Kiraryoha mu biryo. Kandi gitangaga umusaruro mwiza cyane, iyo bagikoreye neza cyane.

Umukecuru mwiza cyane, ukuze, agiye mu murima, atereye agasuka bita agafuni, agiye kubagara imyaka, iri mu murima.

Amateke ni igihingwa cyiza cyane. Yerera mu butaka hasi. Abaturage barayakunda, araryoha, iyo bayatetse ku biryo bya kinyarwanda by'ibitsimbano.

Avoka ni urubuto rwiza cyane ruraryoha, rugira umumaro mwinshi cyane rutanga amafaranga ku isoko, kandi habamo n'imiti myinshi cyane ivura abantu.

Ibishyimbo bya Mushingiriro ni byiza cyane ndabikunda. Iyo wabihinze neza bikera bitanga umusaruro ushimishije cyane cyane.

Inyanya ni ikiribwa cyiza cyane, ziraryoha, zigira umumaro mwinshi cyane, iyo zeze zitanga umusaruro mwiza cyane ushimishije nyirazo.

Imbuto ni nziza cyane, abantu benshi barazikunda zigirira akamaro kanini umubiri, iyo uzikoresheje neza zongerera umubiri imbaraga, zikarinda umuntu kurwaragurika.

Amashu ni imboga nziza cyane, hari abazirya zitetse hari abazirya ari mbisi, hari abazigaburira amatungo kandi zitanga umusaruro iyo zeze neza.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane abaturage bakunda, kubera ko kugihinga ntabwo kigora cyane, kandi kiraryoha, iyo gitetswe mu buryo bwa kijyambere ndetse n'ubwa kizungu.

Imbuto z'amapera ni nziza cyane abantu benshi barazikunda. Iyo ziteguwe neza zigirira umubiri wacu akamaro kenshi cyane, kandi imbuto z'amapera zikunda kwera ahantu henshi hatandukanye.

Abacuruzi bakunda gucuruza, ibintu byinshi cyane, bitandukanye, bakabigaragaza, kugira ngo abantu baza kubagurira, babibone mu buryo buboroheye.

Imiteja ni imboga nziza cyane ndayikunda iraryoha, kuko iyo itetse neza igirira imibiri yacu akamaro kanini cyane.

Inkaranka ndazikunda cyane cyane ziraryoha, iyo bazikaranze kuzishyira mu biryo biraryoha cyane, abantu bakabirya babikunze cyane kandi bishimye.

Abantu iyo bamaze guhinga, ibihingwa barabisarura bamara kubisarura bakabijyanira abacuruzi, abacuruzi babishyira mu mifuka, kugira ngo abaza kubigura babibonere hafi.

Mu isoko ahantu bacururiza imbuto z'ubwoko bwose, ndahakunda cyane cyane haba hasa neza, iyo ubonye izo mbuto ziri mu mifuka zitandukanye.

Ibihaza ni igihingwa cyiza cyane , biraribwa iyo byeze babikuramo inzuzi, inzuzi barazisekura bazikoramo umuti mwiza cyane, nazo barazirya.

Ibigori bya kinyarwanda bita nyakagoreri. Biraryoha cyane. Bigira amabara menshi kandi meza. Kubera ko atari ibituburano, abantu benshi barabikunda.

Mu turere twinshi cyane two mu gihugu, bakunda guhinga igihingwa cya soya. Soya ziba nziza cyane, kuko zivamo amavuta.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane bwerera mu butaka, iyo bweze butanga umusaruro ushimishije, kandi bugandura ubukungu bw'abaturage.

Umurima mwiza cyane, uri ahantu heza cyane, iyo bawuhinzemo amasaka arera cyane, havamo umusaruro mwinshi cyane ushimishije.

Amateke araryoha cyane, iyo uyariye ubyuka ufite imbaraga, ibyo ugerageza gukora byose ukabikora neza ,kubera ko umubiri uba wuzuyemo intungamubiri nyinshi.

Mu muryango habamo imbuto z'ubwoko bwinshi. Habamo ibihaza, ibihaza ni imbuto nziza cyane. Biraryoha, bigira n'inzuzi nziza zivamo umuti, ziraryoha.

Igihwagari ni igihingwa cyiza cyane, cyera ahantu henshi hatandukanye igihwagari bagikoramo amavuta aryoshye cyane, igihwagari kigira umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Mu muryango hakorerwagamo ibintu byinshi bitandukanye; nko gufatanya, gusarura imyaka igihe babaga bejeje. Ubwo bufatanye bwatumaga bashyikirana bakuzuzanya mu mirimo yabo ya buri munsi,

Ikigori ni igihingwa cyiza cyane, ndagikunda, kiraryoha, kigirira abanyarwanda benshi akamaro kanini cyane, kiraribwa cyane.

Mucyaro bakundaga guhinga ibishimbo bateraga kumurongo, iyo byeze bajyaga kubisarura, bifashishaga amagare kugira ngo babikure mu murima vuba.

Abantu benshi bakunda guhinga ibihingwa bitandukanye, biba byiza cyane iyo umuntu ageze mu muririma, akishimira umusaruro w'ibihingwa bye.

Icyayi ni igihingwa cyiza cyane, icyayi kigira umumaro mwinshi, icyayi gituma abakozi babona akazi, icyayi gituma amafaranga aboneka cyane, icyayi kiraryoha cyane.

Imbuto z'ibishyimbo zirimo amoko atandukanye, hari ibya nyirakamuga, hari iby'umushingiriro, ibyo byose biraryoha cyane kandi n'iyo ubiteye birera cyane.

Soya ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abantu benshi, kivamo ibinyamavuta, bagikoresha bari gutegura n'igikoma, kubera ko amata ya soya avura indwara nyinshi.

Amasaka ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi. Iyo yeze abagore barayagosora bakoresheje inkoko, bagatandukanya inkumbi n'amasaka bagakuramo igikoma.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane. Gihingwa ahantu henshi hatandukanye. Kigirira umuturage akamaro, bakinywamo igikoma, bagikoramo umusururu.

Ibigori ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi ,bitanga umusaruro iyo bagiteguye neza, ibigori kandi bivamo umutsima mwiza uryoshye cyane.

Amashaza ni igihingwa cyiza cyane. Abaturage baragikunda cyane. Amashaza araryoha cyane. Amashaza bayateka mu buryo butandukanye.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane araryoha. Iyo uyakoreye neza, atanga umusaruro ushimishije kandi abantu benshi barayakunda cyane.

Ibirayi ni ubwoko bw'igihingwa abantu benshi bakunda cyane, bwera cyane cyane mu Ntara y'Amajyaruguru no mu Ntara y'Iburengerazuba. Bitanga umusaruro mwinshi.

Mu isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye. Habamo imifuka ipakiyemo ibicuruzwa nk'amakara, habamo abaturage baje guhaha, habamo n'abasambo baje kwiba, habamo n'abayobozi b'isoko, habamo ndetse n'abashyitsi baje gukora ubukerarugendo.

Mu bworozi bwa kinyarwanda habamo ingurube. Zitanga umusaruro uhagije, kandi ziba nziza, iyo zikurikiranwe n'abantu bize ubuvuzi bw'amatungo.

Umushinga wo korora amatungo y'ingurube ndawukunda, ni mwiza cyane kuko zororoka vuba, kandi zigatanga umusaruro ushimishije cyane.

Ubworozi bw'inkwavu buba bwiza cyane ndabukunda. Zigira inyama ziryoshye, zitanga ifumbire nziza cyane, kandi kuzireba aho ziteraniye biba ari ibintu byiza cyane.

Korora amatungo magufi ni byiza cyane, atanga umusaruro mu gihe gito umuvuzi w'amatungo akunda kuyasura cyane, kugirango ataza kugira ibibazo by'uburwayi.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ubworozi bw'amatungo butandukanye .Inka ni itungo ryiza cyane ritanga umusaruro, cyane cyane iyo rifashwe neza.

Inka z'inyambo ni inka nziza cyane, zigirira abaturage akamaro. Ni umutako w'igihugu amata yazo araryoha cyane, kandi abavuzi b'amatungo bazitaho cyane kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Inyama ni ikiribwa cyiza cyane gikomoka ku matungo. Abantu bazikunda cyane, iyo batetse inyama abana bishimye cyane, kubera ko bazikunda cyane cyane.

Abaturage benshi bakunda gucirira imbwa. Imbwa ni itungo ryiza cyane, iyo riri mu rugo rigira akamaro kenshi cyane.

Abaturage benshi bakunda korora inka ,ariko biba byiza cyane cyane, iyo bafite umuntu wize ubuvuzi bw'amatungo bwo kuzitaho ,ni bwo bitanga umusaruro mwiza cyane.

Umushinga w'ubworozi bwinkoko ni mwiza cyane ndawukunda kuko iyo zifashwe neza zitanga umusaruro ushimishije cyane.

Korora inkoko ni byiza cyane iyo ufite ibiryo byo kuzigaburira zikura vuba , ukabona umusaruro vuba vuba bikagutera kunezerwa cyane, kubera umusaruro ukuyemo.

Ingurube ni itungo ryiza cyane, rikunda kurya ibiryo by'ubwoko bwose, rirororoka rigira umusaruro ushimishije, iyo rifite umuntu uryitaho cyane.

Abanyarwandakazi ndabakunda cyane. Kubera ko bakunda imirimo myinshi itandukanye. Harimo n'ubworozi, bituma bajya kwahirira amatungo kugira ngo adasonza, maze umusaruro ukabura.

Inka ni itungo ryiza cyane. Abantu benshi bararikunda. Kuryorora ukarifata neza cyane bigira akamaro, kuko bitanga umusaruro uhagije.

Korora inkoko nziza za kijyambere ni byiza cyane, kuko zitanga umusaruro uhagije uvuye mu nyama ndetse no mu ifumbire.

Umuvuzi w'amatungo hari igihe kigera akaza kuzisuzuma, azitera inshinge zo kuzivura, izindi akazitera inshinge zo kuzikingira.

Ubworozi bw'ingurube ni umushinga mwiza cyane. Iyo zifashwe neza zitanga umusaruro ukomoka ku mavuta ndetse no ku nyama.

Mu muryango, habamo ubworozi bw'amatungo menshi atandukanye, ingurube zibyara ibyana byinshi zikagira umusaruro uhagije.

Amatungo bororera mu kiraro ni meza cyane. Usanga afite ubuzima bwiza kubera ko abashinzwe ubuvuzi bw'amatungo bazitaho igihe cyose kugira ngo zitarwara zigapfa.

Inka ni itungo ryiza. Rigirira abaturage akamaro, rigira amata aryoshye. Rigira umusaruro utubutse w'inyama. Inyama z'inka ziribwa n'abantu benshi batandukanye mu gihugu.

Mu mucyo wa kinyarwanda abaturage benshi cyane cyane bakunda korora amatungo, harimo inka ziba nziza cyane, iyo abashinzwe ubuvuzi bw'amatungo bazitayeho.

Abashinzwe kwita ku matungo iyo bamaze gusuzuma ko itungo ari rizima, bararibaga bakarirya. Inyama z'inka ziraryoha cyane, iyo bazitetse neza zigashya.

Mu muryango habamo amatungo menshi atandukanye. Ihene ni itungo ryiza ritanga umusaruro mwinshi cyane, iyo rifashwe neza.

Ingurube ni itungo ryiza cyane ryororoka vuba, rigira umusaruro mwinshi uhagije ushimishije. Iyo ryabwaguye rigirira nyiraryo akamaro, kuko ryunguka vuba.

Inzu bacurizamo imiti y'amatungo, aba ari ahantu hagari cyane, haba harimo imiti myinshi itandukanye, abavuzi b'amatungo niyo bakoresha bagiye kubika neza imiti yabo.

Umushinga w' ubworozi bw'amatungo y'ingurube, usanga ari mwiza cyane, kuko iyo zifashwe neza zitanga umusaruro ushimishije cyane.

Korora inkoko ni byiza cyane ndabikunda. Kuko bitanga umusaruro ukomoka ku nyama, ndetse no ku magi. Ni mwiza cyane ndawukunda.

Mu muco wa kinyarwanda abaturage bakunda korora amatungo atandukanye. Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane, isake iba nziza kubera ko mu rugo iyo ibitse, kera bamenyaga isaha iyo ari yo ibikiyeyeho.

Imbwa y'inyeshyamba, igira ikirizo kinini cyane kibyibushye. igira amahane, kubera ko itamenyereye abaturage. Iraryana iyo uyegereye.

Inyoni yitwa igikona igira amabara meza cyane y'umukara n'umweru, ariko abantu benshi ntabwo bayikunda kuko aho igeze usanga bari kuyitera amabuye.

Inyoni ni ubwoko bwiza bw'inyamaswa ziba mu ishyamba. Abantu benshi barazikunda cyane zigira amabara meza, zigira amajwi meza, zikunda kuririmba cyane.

Mu nzu nyinshi za kinyarwanda habamo inyamaswa bita imbeba. Zironona cyane, ntabwo abaturage bazikunda cyane kubera ko zonona.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi cyane z'uburyo butandukanye. Haba n'izinyegera ibiti. Iyo uzibonye ubona ari byiza cyane.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi zitandukanye. muri izo nyamaswa habamo ubwoko bw'inkwavu. Inkwavu ni inyamaswa nziza zitonda.

Ikinyogote ni inyamaswa nziza cyane ndayikunda, ikunda kuba ahantu h' ubuvumo, igira umubiri uvagamo amacumu afite amabara meza cyane.

Inyoni y'ishyamba igira amabara meza, abantu benshi barayikunda, igira ijwi ryiza, abantu benshi bakunda kuyitegereza cyane.

Inuma ni inyoni nziza cyane, ntabwo yona abantu bose barayikunda, abana barayikunda ndetse n'abakuru barayikunda. Ni inyoni nziza cyane.

Inuma ni agasimba keza cyane kari mu bwoko bw'ibiguruka, kagira isuku gatoragura ahantu heza cyane, gahora gatuje ntabwo gatera amahane.

Mu ishyamba habagamo ibintu byinshi bitandukanye; habagamo ibiti by'amoko menshi, habagamo n'inyamaswa. Isha n'inyamaswa ibaga mu ishyamba inyamaswa nyinshi zikundaga kuyirya.

Inuma iri mu bwoko bw’inyoni nziza cyane, abantu benshi barayikunda. Ikunda kwarika ibyari byayo mu biti bitari birebire cyane.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi cyane zitandukanye, isha iba mu ishyamba ariko inyamaswa iyo ziyibonye zishaka kuyica ngo ziyirye.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi zitandukanye, inzovu ni inyamaswa nziza cyane abantu bakunda kuyireba, kuko ifite ubunini butangaje.

Inkanga ni ubwoko bw'inkoko nziza cyane, itera amagi menshi cyane cyane kandi yororoka vuba abantu benshi ntabwo bazi inkanga, kuko uzisanga ahantu hakeya cyane.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi zitandukanye, zigira ubwiza butandukanye kandi abantu benshi bakundaga kujya kuzireba, no kureba ukuntu ziri gukina.